Icyapa kinini kiriho umugore wambaye ishati y'umutuku, akaba ari icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, ku ruhande yacyo hakaba hari umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse hakaba n'utuyira tw'abanyamaguru, abanyemo baracamo, hakaba hateye n'ibiti birebire.

Itangazo ryamamaza ubwishingizi bwa orudi mituro bivuga ngo no migihe k'izabukuru turahagoboka, hasi hakaba hari na nimero wakwandikira kuru watsapu kugira ngo baguhereze ubufasha n'ibindi.

Umugore wambaye ijipo y'icyatsi, ndetse n'agapira k'amakoboko mugufi karimo amabara y'umweru n'umukara, akaba yambaye n'amadarubindi, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'ubururu, akaba ari ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi cya RADIANT, bakaba barimo barahererekanya igipapuro cy'umweru cya sheke, bakaba bakubwira ngo turi kumwe n'ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, bukugoboka, bugoboka umuryango wawe, mugihe uhuye n'impanuka.

Icyapa kinini, cyamamaza ubwishingizi bw'izabukuru, kiriho umukecuru n'umusaza, ndetse n'umwana wabo, bari guseka, kiragira kiti, " Dufashe kurinda ahazaza h'umuryango wawe".

Umusaza wambaye agapira k'amaboko maremare, ku ruhande rwe hakaba hari n'umugore ndetse n'umwana bakaba bose barimo baraseka, ni ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi kikubwira ko cyaguha ubwishingizi bw'ejo hazaza h'umuryango wawe, hari na nimero wahamagaraho, icyo cyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu ndetse n'isaha kuboko, akaba arimo araseka, ni ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi kikubwira ngo ibizazane by'ubuzima ntibiteguza, ubwishingizi bw'impanuka bwa Prime bugufasha kuguma utekanye, kandi bakaba bakwereka nimero wahamagara mugihe ubashaka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, akaba arimo araseka, ni ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi cya Sonarwa kikubwira yuko, mu gihe ubashatse wahamagara ku murongo utishyurwa w'icyenda zeru zeru zeru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi iri mu mabara y'umutuku n'umweru akaba arimo araseka, iruhande rwe hari umugore utereye umwana w'umukobwa nabo bombi barimo baraseka, hakaba hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru afite akuma mu matwi arimo arumva uko umutima w'umwana utera, aho hantu hakaba hasa nk'aho ari kwa muganga. Ni ubutumwa bw'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cya buritamu kivuga yuko baguha ubwishingizi bw'ubuvuzi.

Itangazo ryamamaza rigira riti, isezerano ni isezerano, yego. Nibyo nta kindi bisaba kugira ngo nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe. Ukoresha telefone yawe igendanwa, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe, akadirishya, wizigamire maze wungukire, wungukirwe utere imbere.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'amoboko maremare w'icyatsi, mu ntoki afite igitabo ndetse n'igikombe, yicaye mu ntebe z'ikigina ari mu nzu akaba ari ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi kikubwira ko wafata umwanya uhagije wo kwita ku buzima bwawe witegura icyumweru gitaha, hari na nimero wabandikiraho kuri Watsapu mu gihe ubashatse.

Mbo yamamaza Radiyanti yacu inyuma yaho hari umukecuru n'umusaza bari mu myaka y'izabukuru. Umukecuru yambaye agatambaro gatukura mu mutwe ari guseka, ndetse umusaza nawe ari kugerageza kumusoma ku itama amufashe ku rutugu..

Umugore wambaye ikanzu y'icyatsi, akaba aryamye ku buriri ameze nkaho arwaye, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu ndetse n'ikaruvati y'umukara, akaba yambaye n'itabiririya y'umweru, ameze nkaho ari umuganga, ni ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi cya radiyanti kikubwira ngo sigomba gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza.

Umugabo uhagaze wambaye ikositimu ndetse na karuvati akaba arimo araseka arimo arasuhuzanya n'umugore wicaye wambaye ikoti ry'kigina ni ubutumwa bw'ikigo gitanga ubwishingizi igi kugira ngo umukiriya wacu uw'agaciro ngo bafashe uyu mwanya kugira ngo babashimire icyizere bakomeje kubagirira ndetse basaba n'abandi bataratangira kugana icyo kigo kugana.

Urutonde rw'ibikorwa byakozwe kuri konti ya banki mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane; kuva ku itariki cumi nicyenda kwa gatatu, kugeza ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi biri na makumyabiri na kane.

Inyubako nini ikaba ifite hasi amakaro y'umweru ndetse n'inkuta z'umweru, akaba ari inyubako icururizwamo ibintu bigiye bitandukanya, hakaba harimo imyenda yo kwambara, ibikinisho by'abana, imisego ndetse n'ibindi abantu bakaba bazamo baje kwihahira.

Inyubako nini, ikaba ifite inkuta z'umukara ndetse ikaba ifite n'igisenge cy'umweru, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye hakaba muri bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo amashati, amapantaro, udupira, amarinete ndetse n'ibindI, akaba abantu baza kuguriramo imyenda.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'agasengeri k'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, bakaba barimo barahererekanya aka emverope, bakaba bameze nk'aho umwe muri bo amaze guhaha, iryo duka rikaba ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'imyenda, inkweto, ndetse n'udushakoshi.

Inyubako nini ikaba ifite ibikuta bisa umweru ndetse hakaba hagiye harimo ameza n'utu etageri tugiye turimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo amashakoshi, inkweto, amatelefone ndetse n'ibindi, hakaba harimo umugabo wambaye ikoboyi ndetse n'agapira k'umukara usa nk'aho acuruza aho hantu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba higanjemo imipira amapantaro ndetse n'ibindi, iyo nyubako ifite ibikuta by'umuhondo, bikaba byarafashwe tariki eshanu z'Ukwabiri makumyabiri makumyabiri na kabiri, ni iduka ryitwa Godden Fashion Sop ndetse ukaba wajyayo ukihahira.

Inyubako nziza kandi ni inyubako ya butike icuruza ibintu bigiye bitandukanye. Iyi nyubako ifite hasi amakaguru y'umweru n'umukara, inkuta zikaba zisa umweru. Hari umuntu wicaye ukoramo imbere ye hari imeza iriho mudasobwa. Bimwe mu bicuruzwa wabonamo imyenda y'abakobwa, udushakoshi, ndetse n'ibindi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru. Ndetse hakaba hubatse n'inzu nini iri mu mabara y'icyatsi. Iyo nzu ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Hari ahantu hacururizwa imyenda hitwa kwa mama Amina. Hakaba hari na telefoni wabahamagaraho mu gihe ubashakiye. Hakaba hari abantu barimo baragenda genda mu tuyira twabugenewe.

Umugabo wambaye ikositimu, akaba arimo arareba imyenda, hari n'undi musore ufite imyenda mu ntoki, ayizaniye umugore wambaye ikoti, ukora aho hantu, akaba ameze nk'aho amaze kuyihitamo, ashaka y'uko ayimufungira akayigura, aho ni ahantu bacuruza imyenda.

Abagabo babiri bakaba bambaye udupira tw'amaboko magufi, ndetse n'amapantaro. Bakaba barimo barahererekanya igipapuro gikozwe mu ishusho y'urufunguzo. Inyuma yabo hari imodoka nini y'igikamyo iparitse y'amabara y'umukara ndetse na orange. Hakaba hari n'izindi modoka hirya ziparitse. Aho hantu hakaba ari ahantu hacururizwa imodoka, ndetse hakaba hirya yaho hateye ibiti birebire.

Imodoka nziza iri mu mabara y'ikigina. Ikaba iparitse. Akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi nshyashya. Ifite Pulanke ya Kigali karize maketi. Ku ruhande hari izindi modoka ziparitse na zo nshyashya zitarakoreshwa. Akaba ari ahantu hagurishirizwa imodoka nshyashya. Ku ruhande rw'ahantu ziri hari inzu ndende kandi y'amagorofa menshi.

Parikingi y'imodoka nyinshi z'ubwoko bumwe, zose bigaragara ko zifite ibara rijya gusa n'umweru, hakurya yazo hari inyubako ndende iri mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka nziza kandi nini mo imbere hakaba harimo intebe nziza ndetse ikaba igaragaza ko ari nshyashya, ku ruhande hari indi modoka nziza y'umweru iparitse, aho ni ahantu bagurishiriza imodoka, iruhande rw'ahantu ziparitse hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani, hari n'amapoto maremare y'amatara amurikira abakoresha aho hantu mu gihe cy'ijoro.

Umukozi ukora akagera eyi bi ji Akagaera motozi, n'umushoferi, bahagaze imbere y'imodoka ya agitorosi y'ubururu, basa nk'abari guhererekanya igifunguzo, bisa nk'aho ari ikimenyetso cyo kumuha urufunguzo rw'iyo modoka ibari inyuma.

Abagabo babiri, umwe akaba yambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro, undi yambaye umupira w'amaaboko maremare ndetse n'ipantaro, bakaba barimo bahererekanya urufunguzo rukozwe mu gipapuro, inyuma yabo hari imodoka nini isa nkaho ari nshyashya, akaba ari igikamyo, bameze nk'aho bamaze kugura imodoka, aho ni ahantu bacuruza amamodoka, ku ruhande hari amazu menshi agiye ahari.

Umuhungu wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'ishati y'ubururu, akaba ku ruhande arimo ahererekanya urufunguzo rukozezwe mu rupapuro, rurere, runini n'umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku ndetse n'ingofero, inyuma yabo hari imodoka y'umweru, aho hantu bari bakaba bagurisha amamodoka.

Imodoka yo mu bwoko bwa yundayi y'umukara yigiye hejuru idafite icyapa kiyiranga iparitse mu gipangu aho iparitse hasakajwe amabati kandi hari isima hasi.

Abagabo babiri bahagaze bakaba barimo baraherekanya igipapuro gikozwe mu ishusho y'urufunguzo. Umwe akaba afite n'akambaraje k'umutuku mu ntoki. Inyuma ye hari imodoka nini y'umweru yo mu bwoko bw'ikamyo. Aho hantu bakaba bacuruza amamodoka. Ku ruhande yaho hakaba hari amazu maremare ahubatse.

Abagabo babiri bari guhererekanya igipapuro gikozwe ishusho y'urufunguzo. Inyuma yabo, hakaba hari imodoka nziza kandi nshyashya, ziri mu mabara y'umweru. Ahantu ni ahantu hacururizwa imodoka. Hirya, hari agatente gahari, ndetse aho bari hakikijwe n’inyubako ndetse n’ibiti byinshi kandi birebire.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse n'ipantaro bakaba barimo barahererekanya igipapuro gikozwe mu ishusho y'urufunguzo, bakaba bamaze kugura imodoka iri iruhande rwabo nziza, nshyashya, iri kwaka amatara, aho hantu ni ahantu bagurishiriza imodoka.

Imodoka nziza kandi nshyashya ziparitse, zikaba ziri mu bwoko bw'ibikamyo, zikaba zifite amabara y'umweru n'umukarakaba, akaba ari ahantu bacuruza imodoka, kuranhande hari umugabo wicaye wambaye ipantaro y'ikaboyi, imbere ye hari akameza kariho amazi yo kunywa, ndetse n'ibipapuro, iyo nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse n'amakaro y'umweru.

Inyubako nini ikaba ifite ibirahure, ndetse hakaba mo harimo imodoka nyinshi ziparitse. Akaba ari imodoka nshyashya, zo mu bwoko bwa yundayi. Hakaba ari ahantu wagurira imodoka. Hanze yaho hari ubusitani buteyemo ibiti, ndetse hari n'amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Imodoka nini kandi nziza ni imodoka y'mweru ika ifite buraketi kigali cars market kuruhande hakaba hari izindi modoka ziparitse aho ni ahantu bacururiza imodoka ahoizo modoka ziparitse kuruhande hari ubusitani bwiza kandi batewe n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umugabo wambaye ikositimu, ndetse ku ruhande rwe hakaba hari undi mugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, ndetse n'agapira k'umukara k'amaboko magufi, barimo barareba imodoka nziza nshyashya, iparitse ku ruhande, bakaba bamaze kuyigura, ni ahantu bagurishiriza imodoka, ku ruhande rw'aho hantu hakaba hari ibiti birebire, ndetse n'ibyatsi bihateye.

Abantu benshi batonze umurongo, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba baje mu biro guhabwa serivisi zijyanye n'amafaranga harimo kubitsa cyangwa kubikuza cyangwa ndetse no kwaka inguzanyo, imbere harimo abantu bahakora bicaye ku ntebe, mo imbere yabo hari mudasobwa, iyo nyubako ifite inkuta z'umweru.

Abantu bahagaze. Harimo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba baje gusaba serivisi zijyanye n'amafaranga kuguza, kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga. Akaba ku ruhande hari ibiro mo imbere harimo umugabo. Umugabo akaba ahagaze iruhande rwe hari akamashini kabara amafaranga. Iyo nyubako ifite inkuta z'umweru.

Inyubako nini ifite ibikuta by'umweru ndetse hasi y'amakaro hakaba hasa umweru, ni inyubako icururizwamo amata cyangwa ibindi biyakomokaho, ku ruhande hari icyuma kinini bashyiramo amata kugirango adapfa, hari umugore wambaye ikanzu y'umutuku usa nkaho aje kugura cyangwa kwihahira amata, hirya hari umuhanda ndetse hateye n'ibiti byinshi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi bijye biyaturukaho. Ku ruhande hakaba hari intebe ndetse n'imeza. Ku meza hakaba hari indobo irimo amakeke abantu baririsha amata. Ku ruhande hakaba hari icyuma kinini kirimo mabara y'ubururu ndetse n'umweru kibika amata, kugira ngo atangirika.

Inyubako nini bacururizamo amata ndetse n'ibindi bigendana nayo, hakaba hari icyuma kinini gikonjesha ibyo kunywa cyane cyane cyangwa ibyo kurya kugira ngo bidapfa kizwi nka firigo, hakaba hari umuntu uhakora wambaye umupira w'umukara, hari ndetse na akayetajeri karimo ibindi bicuruzwa nka fanta, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k'umweru n'ishati y'amaboko maremare akaba arimo araseka, mu ntoki ze afite telefone ikwereka yuko wabona cyangwa wakoresha apurikasiyo ya sipini, ukaba wazigama amafaranga yawe nta kintu uhombye.

Uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ukaba wakanda aka nyenyeri rimwe gatandatu gatanu urwego ukishyura ukoresheje mobileman hakaba hariho uburyo wakohereza amafaranga ukagura ama inite ukishyura ndetse ukareba nayo usigaranye kuri telefone yawe byose ukoresheje ikoranabuhanga.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Abantu batonze umurongo bategereje guhabwa serivisi, bari ahantu hari inyubako nziza kandi nini, inyubako ikorerwamo n'ibigo bitanga amafaranga y'abanyamahanga cyangwa bikaghinza amafaranga ufiteguha ay'amanyamahanga, hari ndetse n'ibyapa binini by'icyatsi ndetse n'ibya move, mu imbere harimo abantu batanga serivisi bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari n'amamashini cyangwa mudasobwa.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'amaboko magufi akaba yaje gusaba serivise, imbere hari umugore wicaye ku ntebe y'umukara imbere hari mudasobwa akaba akora muri iyo nyubako, iyo nyubako ikoreramo ikigo gihinduranya amafaranga y'amanyamahanga cyangwa kikayatanga.

Abantu babiri barimo barahererekanya amafaranga y'amadorari. Hari umugabo wambaye agashati k'amaboko magufi akaba arimo arafata amafaranga. Aho hantu akaba ari ibiro bicuruza amafaranga y'amanyamahanga cyangwa bihindura amafaranga yawe bikayashyira mu y'amanyamahanga. Iyi nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse ku ruhande hakaba hari imeza iriho imashini ibara amafaranga.

Inzu nini ikaba iri mu mabara y'ubururu ndetse ku ruhande hakaba hari n'andi mazu akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, iyo nyubako ikorerwamo n'ikigo kigurisha amafaranga y'amanyamahanga cyangwa kikahindura amafaranga yawe mu y'amanyamahanga, kikaba gifite imiryango y'umweru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye kuruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hubatse n'inzu ndende y'amagorofa menshi iyo nzu ikaba isa umuhondo hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ko muriyonzu hakorerwamo ikigo gitanga serivisi zo guhindura amafaranga y'abanyamahanga cyangwa kikaguhereza amafaranga y'abanyamahanga ugatanga ayo muri icyo gihugu.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi, ikaba ikorerwamo ibikorwa bijye bitandukanye. Ku ruhande hari umuryango uriho ibyapa binini biriho amafaranga ndetse n'amabara y'umuhondo. Bikaba byerekana ko aha hantu hari ibiro bicuruza amafaranga y'abanyamahanga cyangwa bihindura amafaranga yo muri iki gihugu bikaguha ay'amanyamahanga. Ku ruhande hari moto ziparitse ndetse hari n'andi maduka acuruza ibintu bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bituruka ku mbaho hakaba harimo intebe z'umukara ndetse imbere yabo yazo harimeza nayo y'umukara iyo nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse n'inzugi z'umweru hakaba ndetse hari n'ibikapu biri mu kabati.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye bikomoka kumbaho. Hakaba harimo intebe zifite ibara ry'ikigina ndetse harimo n'ameza zifite ibara ry'ikigina. Ahantu hakaba wahakura ibikoresho ibyo aribyo byose bijyanye n'imbaho cyangwa bikozwe mu imbaho hakaba ndetse hari n'imbaho ziri ku ruhande zo zitarakorwamo ibintu.

Iduka bacururizamo ibikoresho bituruka ku mbaho, hakaba harimo intebe ndetse n'imeza, ku ruhande hari amatente agiye ahari ndetse hari n'ibiti bihateye, iruhande rw'iyo nyubako hari izindi nyubako zigiye zihari kandi zikaba zikikijwe n'ubusitani burimo n'ibiti byinshi.

Inyubako nziza, akaba ari inyubako ifite inkuta zi'ikigina ndetse harimo n'amarido y'ikigina, ikaba ifite n'insakazamashusho iri ku gikuta cy'umweru hakaba ndetse hari n'akabati keza kagiye kariho amavase arimo uduti ndetse n'indi mitako, bakaba bakwereka yuko bagukorera ibikoresho byiza biturutse ku mbaho.

Intebe ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, zikaba zifite n'imisego y'ubururu, hakaba hari n'akameza, imbere yako ni ahantu hacururizwa ibikoresho ibyo ari byo byose biturutse ku mbaho, harimo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi, hirya hakaba hari inyubako ndende iri ihubatse.

Inyubako nini ikorerwamo inama ikaba ifite inkuta zifite ibara ry'ikigina, hari intebe z'umukara ndetse imbere yaho hari imeza zigiye ziteretseho amazi yo kunywa, hakaba hari n'insakazamashusho nini iri muri icyo cyumba, icyo cyumba gifite amatara menshi arimo araka ndetse kikaba gifite n'igisenge cy'umweru.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako y'amagorofa menshi, ni inyubako icumbikiye abantu by'igihe gito, ku rukuta hakaba hariho akuma kari mu mamabara y'umukara n'umutuku gafasha mu kuzimya inkongi yumuriro, hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire hanze y'iyo nyubako.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba ifite amabara y'umuhondo ndetse imiryango n'amadirishya bikaba bisa umukara, ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli, ku ruhande hari ibyatsi ndetse n'ibiti birebire bihateye ndetse hakaba hari n'andi mazu yubatse hirya y'iyo nyubako.

Iyi nyubako nini ikaba ifite inkuta z'umuhondo ndetse hakaba harimo intebe n'ameza hari urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteri ndetse ikaba irimo n'amatara menshi n'imitako myinshi.

Inyubako nini kandi nziza, ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli, hakaba ndetse ari aho abantu bakicara gihe bategereje guhabwa serivisi cyangwa baje kugira icyo bafata, inyubako ku rukuta hari insakazamashusho nini, hakaba hari n'amavaze agiye ateyemo ibiti hanze.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli, ikaba ifite amabara y'umuhondo hanze hakaba hari udutente tugiye duhari tw'umukara abantu bakwicaramo, mu gihe bategereje guhabwa ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya, ahantu hateye ndetse n'ibiti birebire n'ibyatsi.

Inyubako nziza y'amagorofa menshi ikaba ari inyubako y'amabara y'ikigina ndetse n'umuhondo iruhande rwayo hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani buhateye ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito bizwi nka hoteli hakaba hari n'akameza gahari ndetse kazengurutswe n'intebe abantu bakwicara bagiye gufungura.

Inyubako nini kandi nziza, ni inyubako ifite ibikuta bisize ibara ry'ikigina, ndetse ikaba ifite n'aho bakira abantu mu gihe bategereje guhabwa serivisi heza, kuruhande hari amavase arimo ibiti, ni inyubako yakira abantu, ikabacumbira by'igihe gito. Ikaba izwi nka hoteri.

Inyubako nziza kandi nini. Ni inyubako y'amagorofa menshi ikaba irimo irakamo amatara menshi. Kuruhande hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire iyo nyubako yegeranye n'umuhanda urimo uracamo, ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru.

Inyubako nini icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hotel, ikaba ndetse ifite n'aho abantu bakogera ari benshi hazwi nka pisine, iruhande rwayo hagiye hari intebe ndetse n'imitaka, irinda izuba bantu baje kwicara muri izo ntebe, iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, kuhande hari n'andi mazu ahubatse.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba isize amaba y'umuhondo n'ubururu, ni inyubako icumbikira abantu by'igihe gito, ikaba ifite aho abantu bogera ari benshi hazwi nka pisine, hateye ibyatsi byinshi ndetse hari n'ubusitani, hirya y'iyo nyubako hakaba hari n'izindi nyubako zibubatse.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli, ku ruhande hakaba hateye ubusitani bwiza kandi hateye n'ibiti birebire iyo inyubako ifite amabara'icyatsi imbere hari amatara menshi ndetse n'imiryango yayo ikaba isa umukara; hari udutebe ndetse n'imezaeza ziri muri muri ubwo busitani buri hanze y'iyo nzu.

Umuhanda mutonya ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ku ruhande hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti hari n'amazu maremare n'inyubako nziza ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ikigo kitanga ubwishingizi gikoreramo kikaba gifite icyapa cy'umweru, n'ubururu cyanditse britam abantu bakarimo barinjira bakigana.

Inzu ndende y'amagorofa menshi, ni inzu ifite amabara y'umuhondo ikaba ifite ndetse ku ruhande n'indi nyubako iri mu mabara y'ikigina, hakaba hari icyapa cyerekana ko ahantu hakoreramo ikigo gitanga ubwishingizi, hari ibiti byinshi bigiye biteye hirya y'iyo nzu,

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba yambaye n'agapira k'amaboko magufi k'umukara, akaba yaje gusaba serivisi mu kigo gitanga ubwishingizi, imbere ye hari umugore wambaye agapira k'icyatsi ndetse yicaye ku ntebe, imbere hari imeza iriho mudasobwa akaba akora muri ibyo biro, hanze y'ibyo biro hakaba hari n'abantu benshi barimo baragendagenda.

Abantu benshi bari hamwe. Hakaba harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'amakaruvati bambaye n'udupfukamunwa. Iruhande rwabo hari umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse na we akaba yambaye agapfukamunwa. Akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi. Muri ibyo biro hari imeza iriho mudasobwa ndetse abantu bakaba barimo babereka uburyo icyo kigo gikora.

iyi nyubako nini ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba harimo intebe imbere yaho hakaba hari utumeza inyubako ikorerwamo n'ikigo gitanga ubwishingizi muri iyo nyubako hakaba hagiyemo imitako myinshi ndetse hari naho abantu bakwicara mu gihe bategereje guhabwa serivisi runaka Iyi nyubako nini ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse hakaba harimo intebe, imbere y'aho hakaba hari utumeza. Inyubako ikorerwamo n'ikigo gitanga ubwishingizi, muri iyo nyubako hakaba hagiye harimo imitako myinshi ndetse hari naho abantu bakwicara mu gihe bategereje guhabwa serivisi runaka.

Inyubako nziza kandi nini ikaba irimo amakaro hasi y'umukara n'umweru, inkuta zikaba zisa umuhondo ikaba ari inyubako ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi hakaba harimo abantu barimo baragendagendamo ndetse iyo nyubako igiye irimo ibipirizo bifite amabara menshi atandukanye.

Umugore wambaye amaherena, akaba yambaye n'umupira w'amako maremare wa move, akaba arimo araseka, i ruhande rwe hari inzu iriho icyapa kigaragaza ko ahantu hafunguye, ni ubutumwa bw'ikigo cya banki cya Ekwiti kikubwira ko gishobora kuguha inguzanyo zgiye zitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse ufite mu ntoki isahani iriho agatasi, akaba arimo araseka, iruhande rwe hari umugore wicaye urimo urakoresha mudasobwa, bukaba ari ubutumwa bw'ikigo cya Equit kikubwira ati korana natwe tuguhe inguzanyo uyu munsi, ubashe kwiteza imbere.

Abantu benshi bari hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bamwe baricaye abandi batonze umurongo, bategereje guhabwa serivise, iyi nyubako barimo ifite ibikuta by'umweru ndetse n'icyatsi, aho hantu hakorera ikigo gitanga inguzanyo hakaba ku rukuta hari insakazamashusho ndetse n'ifoto y'umugabo wambaye ikositimu.

Umugabo wambaye ipantaro yumukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'ubururu iruhande rwe hari umugore wambaye ikoboyi ndetse n'ishati y'amaboko maremare yubururu bakababwira ngo sabe inguzanyo iga usohoze umugambi wo kwiga gutwara imodoka ni ubutumwa bw'ikigo gitanga inguzanyo kandi akaba arimo ikoreshwa mu kwigisha abashaka gu gukora ikizamini burudu cyo gutwara ikinyabiziga.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakabamo abagabo ndetse n'abagore, hakaba bicaye imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'icyatsi, ku meza hariho amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu, iyo nyubako barimo ifite inkuta z'umuhondo ndetse n'ibisenge byayo bikaba ari umweru n'umukara, bakaba bicaye bari mu nama.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'akantu abaganga bakoresha bumva ukuntu umutima utera, akaba arimo araseka anifashe neza, ni ubutumwa bwa banki ya akisesi, aho ikubwira ko imbere heza hategurwa uyu munsi, bakaba bashobora kuguha inguzanyo y'ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ishati y'amaboko maremare, akaba ari kumwe n'umugore wambaye umupira w'amaboko maremare bombi bakabamo baraseka, uyu mugore afite urufunguzo mu ntoki, bukaba ari ubutumwa bw'ikigo gitanga inguzanyo kikubwira ko wabona ubu ngubu inzu yawe ukagenda wishyura gake gake.

Imodoka y'ubururu, ikaba itwikiye n'umutaka munini uri mu mabara y'icyatsi, ni ubutumwa bw'ikigo gitanga inguzanyo zitwa tekana ababwira ko ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe babuguhereza, wahamagara kuri nimero batanze arizo mirongo itanu na rimwe makumyabiri.

Icyapa cyamamaza uko wafungura konti utavuye aho uri muri access banke cyanditseho nyaruka birihuta kandi biroroshye konti wafungura utavuye aho uri bakakwereka ubwoko bwafungura kandi hariho umukobwa wicaye imbere ya mudasobwa ye bigaragara ko yishimiye serivisi.

Mu isoko aho bacuruza ibiribwa hari amashyaza ari mu base y'ubururu, imineke iri mu base y'icyatsi n'inyanya ziri mu gatebo, ibishyimbo ndetse n'amafu atandukanye biri mu mufuka.

Umugore wambaye ikanzu ndetse n'agapira k'umukara k'amaboko magufi, akaba yicaye iruhande rwe hari akameza, karimo imifuka ndetse n'amabasi arimo ibicuruzwa, birimo inyanya, amashaza, imineke ndetse n'ibindi. Aho hantu hakaba ari mu isoko, aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'imodoka ziparitse zitarimo zirakoresha umuhanda rusange, hateye ibiti birebire ku muhanda ndetse n'amapoto amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, hari urujya n'uruza ku ruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'amazu maremare ahubatse.

Inzu ndende ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, iryo soko rikaba ririmo urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bahagaze ku murongo bategereje guhabwa serivisi runaka, iruhande rwabo hakaba hari umuhanda ndetse hari n'amapoto ariho insinga zisakaza amashanyarazi muri ibyo bice.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hasi hagiye hari imifuka myinshi irimo ibicuruzwa. Hakaba aho ahantu ari mu isoko, hakaba hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, bimwe mu bicuruzwa harimo amakanzu, imipira, imyenda, amashakoshi ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi hakaba harimo abagabo ndetse bakaba bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, hakaba ari mu isoko, ku ruhande hakaba hari abamotari baparitse bategereje abakiriya, ndetse hakaba n'inyubako nyinshi zigiye zikurikiranye, hari amatara maremare amurikira gukoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi hakaba hari abantu bari kwinjira abandi basohoka harimo abagabo ndetse n'abagore iyo nyubako ikaba inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye hakaba ari mu isoko hakababaho ibicuruzwa bitandukanye birimo nk'imyenda ibikapu ndetse n'ibindi hari abacuruzi bategereje abakiriya ndetse n'abaguzi baje kwihahira.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hari ndetse n'ibikapu n'imifuka bitetse ku ruhande, hakaba iyo nyubako ikorerwamo ubucuruzi ari mu isoko, ndetse hakaba hari n'igisheke giteretse hafi y'imuryango, abantu bakaba baje kwihahira ndetse hari n'abacuruzi bategereje abakiriya.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari amazu maremare akorerwamo ubucuruzi, ndetse hakaba n'imodoka ziparitse zitarimo ziyakoresha umuhanda rusange, hari abanyamaguru bagenda bacacana mu muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bamwe binjira abandi basohoka hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hakaba hari abagore bicaye bambaye ibitenge bategereje abakiriya aho hantu hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye bimwe mu bicuruzwa byiganjemo ibyo kurya nk'inyanya, intoryi, avoka ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, hari abicaye bategereje abakiriya ndetse n'abandi baje kwihahira. Iyo nyubako ni inyubako icururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye akaba ari isoko, bimwe mu bicuruzwa harimo ibyo kurya intoryi, amakaroti, inyanya, imineke ndetse n'ibindi.

Abantu benshi barimo baragenda abandi baza, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, ku ruhande hari abagore bicaye, imbere yabo hari amamashini adoda, bakaba bameze nk'aho ari abadozi, aho hantu ni mu isoko, aho hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, bimwe mu bicuruzwa birimo imyenda, amakanzu, imipira ndetse n'ibindi.

Umukobwa wambaye agashati k'amako maremare kari mu mabara y'umweru n'umukara, akaba arimo araseka ari mu kazu k'umuhondo gatangirwamo serivise za Emutiyeni mobayiro mani zigiye zitandukanye nko kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga, iruhande rwe hakaba hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'akagofero k'umuhondo, akaba ameze nkaho ari umukozi wa mobile money, akaba arimo arahereza serivisi umugabo uri ku ruhande wambaye ikoti ry'umukara, iruhande rwabo hakaba harimo haracaho imodoka nini y'umukara ndetse hakaba hari n'amazu menshi agiye yubatse ahantu bahagaze.

Abantu babiri, umwe akaba yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara, undi yambaye agapira k'umweru karimo n'amabara y'umuhondo, aha hantu hakaba hatangirwa serivisi za MTN mobayiro mani, harimo intebe abantu bakicaraho bategereje guhabwa serivisi ndetse n'imeza, aho hari ibyatsi bigiye bibazengurutse ndetse inyuma yabo hakaba hari n'amazu.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse afite na terefone mu ntoki, akaba arimo arahereza uwo mugabo igare, ku ruhande ahantu bari hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umuhondo kikwereka ko aho hantu ushobora kubona serivisi zaMTN Mobile Money, umugabo asa nk'uwatsindiye igihembo k'igare.

Umugore wambaye ikanzu ndetse arimo araseka, imbere hari umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi kari mu mabara ya shokora ndetse n'umweru, akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi arimo arandikamo, hakaba hari akazu k'umuhondo katangirwamo serivisi za MTN Mobile Money, ahantu bari kuru ruhande hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

inyubako nini ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ikaba ifite inkuta z'umwerukaba ari akapa k'umuhondo kometse kuri rwo rukuta kagaragaza ko aho ahantu wabonera serivisi za mtn mobilemani ukaba ushobora kwishyura ukoresheje kandi akanyenyeri rimwe umunani kabiri kanyenyeri umunani kanyeri rimwe kanyenyeri zeru karindwi icyenda gatanu gatanu karindwi umunani urwego

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'umweru, akaba ahetse n'igikapu mu mugongo imbere hari abagabo babiri umwe yambaye amadarubindi n'undi uhagaze, akaba bose bambaye udupira tw'umuhondo bakaba bakora mu iduka ritanga serivisi za MTN Mobile Money bakaba bafite na mudasobwa imbere yabo iri ku meza.

Ahantu ibinyabiziga biza kunywera esanse. ku ruhande hakaba hari akamoto ndetse n'imodoka ziparitse, ahantu habacuruza kandi n'amagaze, hakaba hari akapa k'umuhondo gahari kerekana ko aha hantu ushobora kwishyura ukoresheje MTN mubayiro mani, haakaba hari umugabo urimo kurandika izo kode kugira ngo yishyure akoresheje uburyo bwa mobayiro mani.

Abagabo ndetse n'abagore bari hamwe, akaba ari kuri sitasiyo imodoka cyangwa ibindi binyabiziga bifatiraho esanse. Aba bantu bakaba bambaye udupira tw'umuhondo tukwereka ko bakorera aho hantu. Ndetse hari n'akapa k'umuhodo kari hejuru, akaba ariho ushobora kwishyura ukoresheje mobayiro mani. Bafite code, karindwi, zeru zeru gatatu icyenda gatatu. Ukaba wishyura nta kindi kiguzi uciwe.

Inzu nini iri mu mabara y'umuhondo n'umukara, akaba mo imbere harimo abantu bambaye udupira tw'umuhondo ndetse n'abandi baje gusaba serivisi, ni inyubako ikorerwamo cyangwa itangirwamo serivisi za mobayiro mani zose, ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu binjira abandi basohoka ndetse hakaba hari n'andi matente ahari.

Abagenzi babiri n'abamotari babiri bari babatwaye bageze iyo bajya bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo ndetse abagenzi bari kwishyura abamotari bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa momo.

Ku rubuga rwa murandasi rw'ihaha tekinologi, hariho bimwe mubyo bacuruza, nk'imeza zo mu biro, ndetse n'inyubako igaragaza aho bakorera ku gisimenti.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye kuruhande hari umugabo utwara moto yambaye agashati k'icyatsi ndetse nakasike y'icyatsi iruhande rwe hari agakapu kanditseho vuba vuba akaba ari ikigo gishyira abantu ibyo baguze kuri murandasi hari abantu barimo baracaho hirya mu tuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye n'ibiti byinshi hirya yutwo tuyira.

Umugabo wambaye ikoti ndetse akaba afite n'ikaramu mu mufuka. Ni umugabo w'umuzungu bakubwira yuko ushobora guhaha ukoresheje, murandasi ukaba wakwemera yuko wakwiyandikisha uyu munsi ugatangira kwiga. Bikaba bizatangira tariki, cumi n'imwe z'ukwacyenda.

Inyubako nini cyane, akaba ari inyubako y'amagorofa menshi, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ndetse n'inzugi biri mu mabara y'umweru, hakaba hirya hari utuyira abantu bacamo ndetse hakaba hateye n'ibiti birebire. Ni inyubako wakodesha amafaranga magana atanu mirongo itanu by'amadolari ku kwezi. Iherereye i Kigali mu Rwanda.

Imbuga nini; akaba ari imbuga irimo ibitaka ndetse hagiye hateyemo n'ibiti, ku ruhande hari inyubako nini zigiye zihubaka kandi nyinshi. Iyo mbuga wayisanga i Musave, Bumbogo, i Kigali. Icyo ni ikibanza kinini, kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'inkweto by'umukara, yambaye hejuru agapira ndetse n'akajiri, akaba ari ahantu hagari hanini mu mbuga y'ibitaka, aha hantu hakaba ari ikibanza kigurishwa, giherereye i Kigali, i Musave Bumbogo kikaba kigurishwa miyoni cumi eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, hakaba kurande hari n'amazu ahubatse ndetse n'ibindi biti byinshi bihateye.

Inzu nziza kandi nini, ikaba ari inzu igeretse rimwe, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda Kibagabaga, ikaba hanze ifite ubusitani buteyemo n'ibiti ndetse hirya yayo hari n'andi mazu, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadorari y'Amanyamerika ku kwezi.

Inzu nziza kandi nini, ikaba ari inzu iherereye i Kigali mu Rwanda, ifite inkuta z'umweru kandi ikaba ifite n'igikoni kigezweho, hakaba hari ndetse n'icyuma gikonjesha ibintu kizwi na firigo kiri aho baganirira, ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi n'ijana cy'amadolarari y'amanyamerika ku kwezi.

Inzu nziza ifite ibikuta by'umuhondo, ikaba hejuru ifite igisenge cy'umweru ndetse aho baganirarira harimo imeze y'umukara n'intebe z'umweru, ikaba iherereye Kicukiro kagarama mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikaba ikodeshwa igihumbi n'ijana cy'amadolari ku kwezi.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ari inyubako y'igorofa rimwe, ku ruhande hakaba hari n'andi mazu ahubatse, iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru ndetse ikaba ikodeshwa, ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amadolari ku kwezi, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako ifite inkuta zisa umweru, ikaba irimo ndetse n'amadirishya asa umukara, hakaba hari igitanda cyiza kandi kinini gishashe neza, hakaba ari inyubako ikodeshwa ku kwezi igihumbi na magana atanu cy'idolari, iherereye i Kigali mu Rwanda Kacyiru.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako ifite igikoni kigezwe, inkuta zaho n'umweru ndetse n'igisenge hejuru n'umweru, ikaba ari inyubako iherereye i Kigali mu Rwanda, inyubako wabona ku ibihumbi bibiri by'idolari ukaba wabasha kuyikodesha ku kwezi ndetse hari amatara yaka, hirya yaho hakaba n'izindi nyubako zigiye zihubatse.

Inzu nziza kandi nini, hakaba harimo intebe z'umweru mu ruganiriro, inkuta zikaba zisa ikigina ndetse ikaba ifite n'igisenge cy'umweru, ni inyubako ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu cy'amadorari ku kwezi, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inyubako nziza kandi nini hasi ifite amakaro y'umweru inkuta n'umweru ndetse n'igisenge cyayo n'umweru hakaba harimo n'amatara arimo araka. Ni inyubako iherereye i Kigali mu Rwanda ndetse hirya yayo hakaba hari n'izindi nyubako zihubatse. Hakaba igurishwa miliyoni mirongorindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako nini. Akaba ari inyubako nziza ifite ibikuta by'umweru ndetse n'urusenge rw'umweru. Ikaba ifite imiryango y'umukara. Ndetse hanze hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti bihateye. Hari n'izindi nyubako zihubatse. Ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda. Iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu nziza kandi nini, ni inzu ifite inkuta z'umweru, hasi amakaro akaba asa umweru, ikaba ifite igikoni kigezweho kirimo n'amamashini amesa, akaba iherereye Kacyiru i Kigali, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadorari ku kwezi.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu, i ruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu, aba umugabo akaba arimo aragenda amwereka iyo nyubako, iyo nyubako ifite ibikuta by'umweru imiryango ndetse n'amadirishya bikaba bisa umukara, harimo intebe ndetse ikaba ari inzu nziza, iyo nzu ikaba ari inzu ikodeshwa cyangwa igurishwa.

Icyapa kinini kiriho imodoka irimo iragenda ahantu mu busitani, hakaba ari icyapa kikubwira yuko iyo kampani itanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo kugurisha no kuranga imodoka, amazu, ibibanza n'ibindi bikoresho bitandukanye. Bakaba bakora n'ibijyanye n'ubwubatsi ukaba wabagana mu gihe ubashatse.

Inzu nziza iri mu mabara y'umweru ndetse n'ikigina ikaba imbere yayo hari ubusitani ndetse n'amavazi agiye ateyeti hirya y'iyo nyubako hakaba hari izindi nzu zihubatse ndetse iyo nyubako ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u rwanda ku kwezi.

Inzu nziza kandi nini ikaba ifite amabati y'umutuku ndetse ifite n'ikuta zisize ibara ry'ikigina n'umweru, ikaba iherereye Kimironko kwa Sekimodo ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye, iruhande rwayo hakaba hari amazu agiye ahubatse hari ndetse n'amapoto maremare ariho insinga zisakaza amashanyarazi mu baturage hateye n'ibiti birebire, icyo gipangu kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara kikaba gikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza kandi nini, ikaba ari inzu y'igorofa rimwe, ikaba isize amabara y'umweru, imiryango, ndetse n'amadirishya, bikaba bisize amabara y'umukara. Iherereye i Kigali Kibagabaga ikaba ifite ibyumba bibi ndetse n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa, ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inyubako nini y'igorofa rimwe, akaba ari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse hakaba hateye n'ubusitani, inyuma yayo hakaba harimo n'ibiti, ni inyubako iherereye i Kigali Kimironko akaba ari inyubako ikodeshwa, hirya yaho hakaba hari n'izindi nyubako zubatse kimwe kandi bisa ihari.

Inyubako nziza kandi nini, ifite inzugi ndetse n'amadirishya biri mu mabara y'ikigina, inkuta zikaba zisa umweru, ikaba iteganye n'izindi nzu nyinshi naho zubabatse ku ruhande rwazo, hari ndetse ibyumba bitatu biri muri iyo nzu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi, iherereye i Kigali Kimironko.

Inzu nini ikaba ari inzu ifite inkuta z'umweru, amadirishya n'imiryango yayo bikaba ari umukara, iruhande rw'iyo nzu hakaba hubatse izindi nzu. Iherereye i Kigali, Kimironko ikaba kandi igurishwa. Igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda ariko mukaba mwabiganiraho.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ari inyubako y'igorofa rimwe, ahantu inyubako yubatse ku ruhande hari n'izindi nyubako hakaba ndetse n'ubusitani n'ibiti bihateye, ni inyubako iherereye i Kigali Kibabaga, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako y'igorofa rimwe, ikaba ifite inkuta ziri mu mabara y'ikigina ndetse n'umweru, imiryango n'amadishya bisa umukara, ikaba ndetse ifite n'igipangu cy'umukara, muri iyo nyubako hateyemo ibiti birebire ndetse iruhande hari n'izindi nyubako, ni inyubako iherereye Kimironko, i Kigali ikodeshwa.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba baje kwihahira ibintu bitandukanye. Iyi nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo imyenda, inkweto, ibyo kurya ndetse n'indi, ikaba yubakishije amakaro hasi y'umweru ndetse n'ibikuta bikaba bisa umweru.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko maremare y'umweru, yambaye ndetse n'ipantaro y'umukara akaba arimo araseka arimo arakurura igicupa muri etajeri zigiye zirimo ibintu bigiye bitandukanye, iyo nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi umuntu yakenera mu buzima busanzwe.

Iyi nyubako nini ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hagiye harimo ibicuruzwa bitandukanye, ibyinshi higanjemo ibyo kurya bikaba biri mu mifuka harimo; imiceri, ibishyimbo, ubunyobwa, amafu ndetse n'ibindi abantu baza kwihahira.

Ni inyubako nziza kandi nini. Ni inyubako hasi yubakishijwe amakaro y'umukara n'umweru, inkuta zikaba zisize ibara ryera. Hakaba hagiye harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Akaba ari inyubako y'amagorofa menshi. Abantu bakaba bazamo guhahiramo ibikoresho bitandukanye icyarimwe batiriwe bajya ahantu henshi.

Umukobwa wambaye agapira k'umuhondo, akaba ameze nk'aho akora muri iyo nyubako, iyo nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bimwe bikaba bimanitse ibindi biteretse ku ntebe, hakaba harimo imyenda nk'amakanzu, imipira, amapantaro ndetse n'ibindi, hari n'umugabo waje kwihahira wambaye agapira k'icyatsi k'amaboko magufi.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

inyubako nini ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, akaba yiganjemo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye bimwe mu bicuruzi bicuruzwa biri hanze hakaba harimo imyenda amashakoshi ndetse n'ibindi harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira hakaba harimo n'amavaze muri iyo nyubako agiye ateyemo uduti.

Umuhungu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'umweru, yambaye n'ingofero y'umutuku mu mutwe akaba ahetse igikapu, arimo aragenda areba imyenda imanitse ku rukuta, aho hantu hakaba ari ahantu bacururiza imyenda igiye itandukanye, irimo imipira, amapantaro ndetse n'ibindi.

Inyubako nini ikaba ifite inkuta z'umuhondo ndetse hasi amakaro akaba asa umweru hagiye harimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye harimo: ibyo kurya, amaparufe, amavuta ndetse n'ibindi. Hari n'umugore urimo urareba ashaka guhitamo icyo ari buhahe, hakaba ndetse kuruhande hari ibyapa birebire kandi binini byanditseho samusanga ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ni inyubako abantu bajyamo bagiye guhaha ibintu bitandukanye, hakaba harimo itajeri y'umutuku igi irimo ibiribwa cyane cyane, hakaba harimo nk'ibisuguti, amafu y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi, bakaba bazamo baje guhaha.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kuruhande hakaba harimo haracaho abantu barimo bagenda mu tuyira tw'abanyamaguru, hari ibyatsi ndetse n'ibiti birebire biteye iruhande rw'umuhanda, hakaba hari n'inyubako hirya ikoreramo iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye; hakaba hari icyapa kinini cy'umuhondo n'umukara cyanditseho sava siti, ikaba giherereye i Remera.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze, abagabo baka bambaye amakositimu ndetse abantu bose bakaba bahagazemo barafata ifoto y'urwibutso. Bakaba bameze nk'aho basoje inama, inyuma hari icyapa kinini kiri mu mabara bariri cyanditseho amagambo RSSB akaba ndetse n'inyubako barimo ifite amakaro hasi y'umweru ndetse hirya inkuta zikaba zisa umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati akaba inyuma ye hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hari abantu benshi bamutunze amatelefone udufata amajwi amakamera ndetse n'ibindi akaba ameze nkaho arimo arabagezaho ubutumwa.

Umukobwa wambaye ikoti ry'umukara n'agasengeri mu imbere k'ubururu, hari n'undi mugore wambaye ikanzu nini y'umukara, bombi bafite igipapuro bakaba cyanditseho umunyamuryango ku isonga, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'ubururu na cyo cyanditseho ubwo butumwa bw'uko umunyamuryango ari ku isonga.

Abagore benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abicaye ndetse n'abahagaze, bakaba bambaye ibitenge ndetse banitandiye mu mutwe, iruhande rwabo hakaba hari abana ndetse bakaba bafite n'udupapuro mu ntoki tw'umuhondo tugiye turiho n'amafoto yabo izo akaba ari mituweri bakoresha mu kwivuza.

Umugore wambaye amadarubindi akaba yambaye n'amaherena ku matwi, afite n'ingofero mu mutwe, yambaye imyenda y'ubururu ndetse afite inyundo mu ntoki kikaba ari icyapa cyangwa ubutumwa bw'ikigo cya ejo heza, kikaba kibwira y'uko cyaguha ubwishingizi cyangwa ubwizigamire bw'igihe kirekire.

Inyubako nini ikaba ifite hasi amakaro y'umweru n'umukara ndetse n'inkuta zayo zikaba ari umweru, hakaba harimo etajeri zigiye zirimo ibintu bitandukanye, ni inyubako waza kuguriramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, izwi nka superi marishe hkaba mu buryo abacuruza higanjemo ibyo kurya.

Inzu nini kandi ndende, ikaba ifite amakaro hasi y'umweru ndetse n'amatara menshi arimo araka, ni inzu igurishirizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye,m harimo etajeri zigiye zirimo ibicuruzwa, harimo cyane cyane ibyo kurya, hakaba hari abantu barimo baragendamo bihahira ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bike bitandukanye ,kabarimo amatageri ari mu mabara y'umutuku yagiye harimo ibicuruzwa nk'ibisuguti amavuta ndetse n'ibindi abantu bayakenera ndetse n'imashini ibika ibintu kugira ngo bidapfakonjesha ikaba izwi nka firigo.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, ikaba ifite inkuta z'umweru, harimo etajeri y'umutuku igiye iriho ibicuruzwa higanjemo ibisuguti, amavuta ndetse n'ibindi, hakaba hari n'icyuma gikonjesha ibicuruzwa kugira ngo bidapfa kizwi nka firigo.

umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakabamoracamo imodoka ndetse na moto hirya y'umuhanda hakaba hari amazu agenda akorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bi bitandukanye hakaba n'icyapa kinini cy'amabara ya orange ndetse n'umweru cyerekana ko ahantu hakorerwamo n'ikigo cya simba akaba ari kicukiro hari amatara agenda amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hacamo imodika ndetse na moto. Hirya y'umuhanda hakaba hari amazu agenda akorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hakaba n'icyapa kinini cy'amabara ya oranje ndetse n'umweru cyerekana ko aho hantu hakorerwamo n'ikigo cya Simba, akaba ari Kicukiro. Hari amatara agenda amurika abakoresha umuhanda mu gihe cya nijoro.

Umugabo wambaye agapira k'amoko magufi k'umukara. Yambaye n'ipantaro y'umukara. Akaba arimo aragenda akurura akantu ari bushyiremo ibicuruzwa yamaze gushima, agiye kwihahira. Iyi yo ni inyubako bacururuzamo ibintu bigiye bitandukanye, izwi nka superimarishe. Hirya hari n'abandi bantu baje guhaha.

Inzu nini ifite inkuta z'umweru ndetse na oranje, hasi amakaro asa umweru hakaba harimo ama etajeri agiye arimo ibicuruzwa, iyo ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye izwi nka superi marishe, harimo umugore wambaye ishati y'ubururu ndende ndetse n'ikanzu y'umukara, akaba arimo aragenda yihahira.

Inyubako nin ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye. Iyo nyubako ifite amagorofa menshi. Hasi hari icyapa kinini cyanditseho Simba Gishushu. Hakaba hari n'intebe ziteye hanze, ndetse n'utumeza. Hari ibiti birebire bihateye ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho P iri mu mabara y'umukara ari icyapa cy'umweru n'umutuku, kigaragaza ko hano hatemewe kuhaparika.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'icyatsi, mu ntoki ze akaba afite akantu arimo aragenda ashyiramo ibicuruzwa agiye kugura, aho ni mu nyubako bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, izwi nka superimashe, harimo etajeri irimo ibyo kurya nk'ivoka, imiteja, karoti, inyanya ndetse n'ibindi.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, ikaba ifite hasi amakaro y'umweru ndetse n'igisenge cyabo kikaba gisa umweru , harimo etajeri zigiye gisa zirimo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibyo kurya ndetse hakaba harimo n'abantu barimo baragendagendamo bahaha ibintu bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hacururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakenera, ibyo kurya bi biri ku meza ndetse no mu etajeri, hirya harimo abantu baje guhaha ibintu bigiye bitandukanye, iyo nyubako ikaba igiye irimo ibyapa by'umutuku ndetse n'icyatsi.